Ndabona ari isoko rusange. Ahantu bacururizamo ibitenge, ibitenge bigiye by'amabara atandukanye, ndi kubonamo abazungu b'abakerarugendo baje kugura ibitenge, ndi kubona ibintu bya gakondo bya kera na byo bari kubigurisha, harimo abantu bagiye batandukanye babereka akamaro kabyo, babakundisha, ngaho hariho udushakoshi dukoze mu dutenge

Ndabona superi marishe aho bahahira ibintu bifunze ariko kubona umukobwa uri gufatamo ibintu muri superi marishe nk'inanasi, yambaye ikote n'umupira, amarinete, imisatsi, ari gutoraranya ibyo ashaka guhaha nk'amabishwi ni ibintu byinshi cyane muri superi marishe.